Umuntu uri gutera ibiti mu rwego rwo kugirango yirinde isuri. Nibyiza ko abaturarwanda dusobanukirwa umumaro wo kwita no kubungabunga ibidukikije, kugira ngo hafatwe neza ubutaka.